Umusore wambaye umupira w'umukara n'isaha y'umukara ari ku cyapa kivuga ngo ibizazane by'ubuzima ntibiteguza, ubwishingizi bw'impanuka bwa purayime bugufasha kuguma utekanye, nawe koreshe ubwo bwishingizi kugirango ugume utekanye.

Ubwishingizi bwa radiyanti bwakugoboka igihe wahuye n'ibibazo, bukora kuwa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa moya n'igice za mu gitondo kugeza saa mbili za ni mugoroba, kuwa gatandatu bakora kuva saa mbili n'igice za mu gitondo kugeza saa kumi za ni mugoroba, ku muganda bakora saa saba z'amanywa kugera saa kumi n'ebyiri, n'aho ku minsi y'ibiruhuko bakora saa tatu kugera saa kumi.

Umugore n'umugabo bishimiye umwana wabo, bakoresha ubwishingizi bwa Radiyanti. Rinda umuryango wawe ugura ubwishingizi bw'ubuzima. Kanda akanyenyeri gatanu, gatatu, rimwe, urwego.

Umugabo w'inzobe yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, afite umutaka w'umutuku mu ntoki. Iruhande rwe hari icyapa cyanditseho ngo: "Shinganisha ubuzima bwawe uyu munsi".

Umugabo wicaye mu ntebe z'imisego yambaye agapira k'icyatsi, afite igikombe mu ntoki arimo arasoma igitabo ndetse handitseho ngo fata umwanya uhagije wo kwita ku buzima bwawe witegura icyumweru gitaha.

Ubwishingizi bwa radiyanti bugufasha mu bihingwa, mu ishoramari ritekanye abahinzi bakabona umusaruro ushimishije kwishyura ibihembo kwagura ubumenyi mu buhinzi no guhabwa inama z'ubuhinzi kubona inguzanyo ku buryo bworoshye mu bigo by'imari.

Ubwishingizi bwa radiyanti buramenyesha ko tugeze mu gihe cy'imvura imyuzure n'ibindi biza byakwangiza inyubako yawe, bikagutera ibihombo irinde sinamenye ugura ubwishingizi bw'inyubako maze ugire umutekano usesuye.

Ubwishingizi bwa Radianti buri kumwe nawe mu rugendo rwawe, baguha ubwishingizi b'ubuzima, wakanda akanyenyeri, gatanu, gatatu, rimwe, urwego, ukabona serivisi zabo.

Umukobwa mwiza wambaye umupira w'ubururu usobanura ko ubwishingizi bwa buritamu bwihariye kandi buhendutse ku matsinda n'ibigo bitoya, wabahamagara kuri telefone zeru karindwi umunani umunani cumi n'icyenda mirongo inani zeru zeru.

Ni inzu nziza irimo ibice bibiri, aho abantu binjirira hari umugore wakira abaje. Yakiriye umugore wambaye ikoti ry'umukara, ipantaro' yumukara, ndetse n'inkweto z'umukara, ari kumusobanurira ibintu bigiye bitandukanye. Ku rundi ruhande hari umugabo wambaye ishati y'umweru uri kumwe n'undi nawe uri kumusobanurira.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, wambaye agashati k'umweru n'ipantaro y'umutuku, afite ishati ari gushyira muri hanga, ndetse iruhande rwe hari indi myenda, bigaragara ko acuruza imyenda. Inyuma ye hari akavaze karimo indabo.

Ni isoko ritoya ririmo irangi ry'umweru, hari ibipupe bihagije, ufite abana bato warigana ukabagurira, kuko bituma abana bishima kandi bikazamura imikurire yabo.

Umukobwa ufite ibyishimo byinshi w'inzobe ahagaze mu nzu irimo ibitenge amakanzu adoze mu bitenge, ndetse amanitse ku nkingi iyo nzu irimo irangi ry'umweru irasa neza ikoteje isima y'umutuku.

Iduka ricuruza ibitenge by'amoko agiye atandukanye, amafaranga yose waba ufite ubasha kubona igitenge kigukwiriye, waza nawe ugahahira umuryango wawe, inshuti zawe ndetse n'abavandimwe bakishima.

Udukomo twamabara agiye atandukanye umuhondo, ubururu, umutuku, umweru ndetse n'umukara aho dukunda kwambarwa n'abana ndetse n'abagore ni byiza ko wambara agakomo kuko gatuma usa neza.

Abadamu n'abakobwa rwose muratumiwe hano, aho hari inkweto z'amoko yose, izihagaze, iziciye bugufi, izifunze ndetse kandi hari imyenda y'ubwoko bwose, amasakoshi, aho wabyishimira rwose.

Isoko ritoya ririmo amashati y'amabara agiye atandukanye inkweto z'ubwoko bugiye butandukanye ku mafaranga yawe makeya waza ugahaha ukambika umuryango wawe abana mu mashuri ndetse nawe ubwawe ukambara neza.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku n'umweru kigaragaza igihe iyi botiki ikorera, ikora kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru uramutse ubakeneye waba hamagara kuri nimero za telefone cyangwa ukabandikira kuri watsapu yabo.

Umugore ufite akanyamuneza kenshi umwenyura aseka afite ibisuko by'umukara yambaye ishati, iruhande rwe hari imashini terefone ndetse na karikaritirise mu nguni harimo amoko menshi y'makanzu.

Umukobwa ufite ibisuko, yambaye agapira k'ubururu n'ijipo, afite ishati mu ntoki ari kuyereka undi mukobwa bahagararanye ufite imisatsi miremire, wambaye ishati y'umweru.

Ni iduka ricuruza imyenda rya gorudoni fashoni shopu, aho uza ukagura imyenda wifuza ku giciro kitaguhenze rwose. Bagira imyenda y'ubwoko butandukanye ushobora kugurira inshuti zawe, abavandimwe cyangwa ababyeyi bawe.

Umukobwa uri mu cyumba yambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umweru. Hirya ye hari imipira acuruza, yihangiye imirimo. Nawe watangira bizinesi ukabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Imodoka nyinshi zifite amabara y'umweru ndetse n'udutara tw'umutuku, ziparitse hamwe nk'iziri mu isoko, ushaka kugura imodoka wabagana, bakayiguha ku giciro kiza.

Abasore babiri umwe w'inzobe n'undi w'igikara, uw'inzobe yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi naho uw'igikara yambaye ikote rya kositime, ishati y'umweru n'ipantaro isa n'ikote.

Imodoka nziza ifite amabara y'umweru, irabisikana n'indi ifite amabara y'umutuku, hakurya yazo hari ibiti bifite amababi y'icyatsi, bitanga akayaga keza muri aka gace.

Abantu bane bari gufata ifoto umwe yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara undi yambaye agakote k'ubururu, ishati y'umweru n'ipantaro ya kaki, undi yambaye agashati k'umukara n'ipantaro y'koboyi inyuma yabo haparitse imodoka nziza.

Imodoka nziza kandi nshyashya, irafunguye ariko nta muntu uyicayemo nawe niba ushaka gusirimuka wagenda ukayigura ku giciro gitoya, bizagusaba kubanza kuyiga.

Umodoka yo mu bwoko bwa suzuki, ubu wayibona ku giciro gitoya kingana na miliyoni cumi n'umunani. Ni modoka nziza, ifite amabara y'umweru, watembereramo n'umuryango wawe. Yagufasha kandi kugera ku kazi byoroshye, bitagusabye kujya gutega ibindi binyabiziga.

Imodoka nziza iparitse mu muhanda wa kaburimbo, ifite ibara rya kacyi, icanye amatara. Wayibona ku giciro cya miliyoni cumi n'ebyiri. Ntabwo waba uhenzwe kuko igufasha mu bintu bigiye bitandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi n'inkweto za supuresi ari kumwe n'umukobwa wambaye agapira ka karokaro n'ipantaro y'umukara, hirya ye hari umugabo wambaye umupira w'umukara n'inkweto zifunguye, bahagaze imbere y'imodoka ya fuso.

Imodoka nziza ya toyota iparitse ahantu hari amapave igura miliyoni makumyabiri neshanu. nawe kora witeze imbere ubashe kwigurira ikinyabiziga cyajya kikugeza aho ushaka kugera hose.

Imodoka nziza ifite amabara y'umweru, akabara k'umutuku, imbere nta muntu wicayemo, ni imodoka ubona rwose ihenze cyane ariko wakoze cyane nawe wabasha kwigondera.

Umuhanda wa kaburimbo uparitsemo imodoka nziza yo mu bwoko bwa Toyota, igurishwa ku giciro cya miliyoni mirongo itatu. Wayisangiza umuryango wawe mugatemberera aho mwifuza hose.

Abagabo babiri bari kwifotoreza ku modoka nini yo mu bwoko bwa fuso, umugabo umwe yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru, naho undi yambaye ingofero y'umukara, amarinete, ishati y'ikigina n'ipantaro y'umukara, afite anverope mu ntoki na terefone.

Amafaranga magana atanu, ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho uyafite ubasha guhaha ibintu bitandukanye. Kuri aya mafaranga hariho abana batatu bafite mudasobwa iruhande rwabo barimo baritegerezamo.

Umugore wambaye ibikomo byinshi ku maboko; afite amafaranga mu ntoki ari kubara; bakugira inama ko niba ufite amafaranga ugomba kuyajyana ku kigo cy'imari bakayakubikira.

Muri banki umukiliya ni umwami, umukiliya umwe ahagaze ku muryango umwe, undi nawe ahagaze ku wundi muryango bombi ni abagabo, imbere harimo abagore babiri bari kubafasha, imbere yabo hateretse mudasobwa bari kwifashisha mu kazi kabo.

Amafaranga ibihumbi bibiri, handitseho banki nkuru y'u Rwanda. Aya mafaranga yanditse mu buryo bw'imibare ndetse no mu buryo bw'amagambo. Ni amafaranga ushobora kujyana ku isoko ukaba wahaha ibintu bitandukanye.

Umugabo ufite akanyamuneza bigaragara mu maso, yambaye ishati isa n'umutuku, yambaye udukomo ku ntoki, afite terefone mu ntoki ze, birasa n'aho ari gusobanurira abantu bamwicaye iruhande uko wakoresha konti muri jiti banke ndetse n'izindi banke.

Umuntu wicaye imbere y'ameza hariho amafaranga menshi cyane bigaragara ko ari kuyabara, batubwira ko atari byiza kubika amafaranga mu rugo ko igihe ufite amafaranga ayo ari yo yose wakwegera ikigo cy'ubucuruzi cy'amabanki kikaba cyakubikira aya mafaranga.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'isaha, ari kubara amafaranga yiganjemo ay'inote za bitanu. Agirwa inama yo guhita ajya kuyabitsa kuri banki batarayiba.

Umuntu wambaye agashati k'umukara, afite umusatsi mukeya, urabona ko rwose yishimye mu maso, arimo arabuganiza amata mu bikombe, ubona ko rwose yishimye. Amata kandi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu.

Ameza ashasheho igitambaro ateretseho igikombe kirimo amata y'inshyushyu, isahani iriho amadaza atatu, ndetse n'indi sahane iriho imyumbati, hegereye umugore wambaye ishati y'igitenge ufite ibisuko ndetse na firigo.

Inzu nziza ifite inzugi zisize amabara y'icyatsi, imbere hariru umuntu ufite indobo ebyiri arikubuganiza amata, hanze haziritse inka ku giti cymuko.

Icyumba kirimo abantu batatu; umuhungu umwe n'abakobwa babiri, bafite ibikombe by'amata, barimo kunywa. Bicaye ku ntebe z'umweru, ubona nziza cyane. ibikuta bya'ho bicaye bifite amabara y'umweru ndetse n'ay'ubururu. Urugi na rwo rusize amabara y'ubururu.

Ameza ateretseho isahane ifite utubara tw'umutuku, umweru n'utundi tubara dutoya tugiye turi muri iyo sahani, hariho kandi irindazi ndetse hateretse intebe y'ubururu, ubona ko nta muntu uyicayeho.

Agakombe kanditseho mukamira karimo yogati, ifite mirigarama magana abiri na mirongo itanu, ikunze kunyobwa n'abana bato, bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Ameza ateretseho isahane iriho cake eshatu, ni byiza ko mbere yo gutangira akazi ubanza gufata icyayi na cake kugirango uze kwirirwa ufite imbaraga.

Icyumba cyicayemo abakobwa babiri n'umuhungu umwe, bafite ibikombe bine bari kunywesha amata. Ni byiza kunywa amata kuko atuma ugira ubuzima bwiza.

Itireyi iriho amagi iteretse ku meza, hirya yayo hari igikuta cy'umweru. Amagi ni ingirakamaro ku muryango, aho iyo uyahaye abana bakora buri munsi kandi ni ingenzi no ku bantu bakuru.

Umugore wambaye ikanzu n'ingofero ni inzobe yaba mu maso no ku maboko afite agapira mu ntoki ze iruhande rwe hateretse terimusi muri icyo cyumba hari amarido utubati n'ibindi bikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi.

Indobo y'umweru ifite umupfundikizo w'umweru, imbere harimo cake ziryoshye cyane, aho abantu benshi bakunda kuzikoresha mu gitondo bafata ifunguro rya mu gitondo bakanywesha igikoma, nawe wifitiye ayawe waza ugahaha.

Ni inzu nziza ifite imiryango y'ubururu ubona ko ari migari, kuri uwo muryango hariho icyapa kiriho umwana wishimye. Ndetse bakaba bacuruza amata y'inyange, aho hanze kuri uwo muryango hari amapave, puberi bashyiramo imyanda ndetse n'udukarito tw'amata.

Ni muri kantine icuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo ibyayi ibikoma amaji y'ubwoko butandukanye harimo umukiriya waje guhaha, yashyize amafaranga ku meza kugira ngo amuhe ibyo akeneye.

Ni icyumba giteretsemo ibicuba birimo amata yasendereye harimo abagabo babiri bigaragara ko aribo bari kubuganizamo ano mata, amata ni ingenzi ku muryango wawe kandi abantu bayagemura mu duce dutandukanye baba bagomba kuba bafite isuku.

Umuntu ari muri kantine afite igikombe kirimo amata yenda gushiramo, isahani iteretse ku meza iriho irindazi na keke, ikiyiko ndetse n'ikanya, hirya ye hari umugabo wambaye ipantaro y'umuhondo.

Icyumba kirimo amarangi y'ubururu n'intebe z'umweru, hari ikigega kinini kirimo amata y'Inyange. Yamenyekanye mu gihugu hose ndetse no hanze bitewe n'uburyohe bwayo.

Abasore babiri n'umukobwa umwe bahagaze ahantu hamwe bafite uducupa twa yahurute, umusore umwe yambaye umupira w'umutuku ingofero y'umukara yanditseho amagambo y'umutuku n'ipantaro y'ikoboyi, ndetse umusore we yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi.

Isahane iteretse ahantu hijimye iriho amandazi menshi cyane; abana bazwiho gukunda amandazi ariko n'abantu bakuru barayakunda; ni byiza ko niba uyashaka nawe wayikorera mu rugo rwawe.

Icyapa cyanditseho mukamira deyiri rimitedi, hahagaze abakobwa babiri bari kuganira bambaye udupira tw'ubururu, amata ya mukamira ni meza ku bana batoya.

Akazu gatoya karimo amazi ya nili mu ducupa twinshi tugiye dutandukanye, amaji yo mu bwoko butandukanye, aho ubaye ufite inyota uza ukihitiramo, ushobora guhitamo amazi cyangwa ugahitamo ji, byose ni uburenganzira bwawe.

Eyateli yoroheje ubuzima bwawe, hari icyapa kiriho umusore wambaye umupira w'umweru ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru yegamiye telefone nini irimo amabara y'umutuku umukara ndetse n'icyatsi.

Icyapa cyanditseho ngo zigamira itangira ry'amashuri, tangira umwaka mushya w'amashuri mu mahoro, izigamire na sipane supa seva guhera none ni byiza kwizigamira, kubera ko uhura n'imbogamizi ukabasha kuzikemura.

Abakobwa batatu bose bafite ibisuko ku mutwe bicaye ku ntebe ifite ibara ry'umutuku, bari mu nzu ifite amarangi y'icyatsi iredo ry'umutuku, ku gikuta hashushanyijeho ibintu, umukobwa umwe yambaye umupira w'umweru na shananete mu ijosi, undi yambaye ishati naho undi yambaye ikote.

Umuntu afite telefone mu ntoki ze arikwa ari gukanda kuri emutiyeni, uburyo wakohereza amafaranga, uburyo wagura ibintu wifuza, uko wakwishyura umuriro cyangwa se ibindi bintu, serivisi za banki, uko wareba amafaranga ari kuri konti yawe ya momo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umwana mwiza w'umukobwa araseka cyane yishimye arambitse umusaya we ku gipupe afite mu ntoki, afite ibisuko byiza by'umukara by'abana ndetse icyapa ariho kiriho amagambo yanditse mu rurimi rw'igifaransa.

Umugabo afite amafaranga mu ntoki ari kuyabara; hari n'akamashini iruhande rwe ari kwifashisha, impapuro zanditseho ibintu bitagaragara; ni byiza ko namara kuyabara ari bujye kuyabitsa.

Ibintu byaroroshye uba ushobora kugura ibintu aho waba uherereye hose yaba muri leta zunze ubumwe za amerika, yunayitedi kingidomu mu burayi mu bushinwa, mu buyapani, sawufu afurika, kenya, u Rwanda, uganda ndetse n'u burundi.

Umugabo wicaye ku ntebe yambaye isaha n'ishati ya karokaro ndetse n'ipantaro y'umukara, ari kubara amafaranga menshi yagiye afungamo imifungo, agomba kujya kuyabitsa kuri banki kuko ari murugo bayiba.

Umugabo ucigatiye amafaranga menshi mu kiganza cye afite ibyishimo byinshi, ni byiza gukora cyane kugira ngo ubone amafaranga kuko agufasha gukemura ibibazo uhura nabyo bya buri munsi. Iyo udafite amafaranga urahangayika ariko iyo ufite ubasha gukemura ibibazo byawe byose bikakurinda umuhangayiko.

Umugabo wicaye hamwe wambaye isaha kukaboko, afite amafaranga menshi mu ntoki arikuyabara ngo arebe umubare wayo. Bakugira inama ko niba ufite amafaranga menshi wakwihutira kuyabitsa kuri banki, kuko mu rugo ashobora guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye nko kuyiba, kuyabura, n'ibindi byinshi.

Inzu ifite imiryango ibiri hose hariho irangi ry'ubururu umuryango umwe urafunguye n'undi muryango urafunze mu mbuga y'iyo nzu hateretsemo intebe nyinshi ndetse n'ameza zifite imisego myiza.

Ni mu mbuga irimo amapave, hateretse intebe nziza z'imifariso ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'imisego. Nawe waza ukazigura, si byiza ko wicaza abashyitsi bawe mu ntebe zibavuna umugongo.

Salo iteretsemo intebe z'imifariso, hariho udusego tune, intebe ni eshatu. Hateretsemo ameza ndetse n'utundi tumeza tubiri dutoya. Iyi salo, urabona ko harimo isima ishaje ndetse hari ibintu by'ibiti biri ku mpande.

Salo nziza irimo irangi ry'umweru, amakararo y'umweru hasi, intebe eshatu, ameza ndetse n'utundi tumeza dutoya, wakwicazamo abashyitsi bagusuye bagataha banezerewe.

Inzu nziza irimo amabara meza y'umweru irimo intebe nziza z'imisego wakwicaramo ukaruhuka niba wagiye ku kazi ukaba wagize umunsi muremure waza ukicara muri izi ntebe ukumva uguwe neza.

Icyumba cyiza cyane kirimo intebe esheshatu, ameza ateretseho ibikombe, gifite inkuta nziza zisize amarange y'umweru ubona ko kuhatemberera ari byiza rwose wahagirira ibihe byiza.

Inzu nziza bigaragara ko ihenze, irimo irange ry'umweru n'udutako tw'umukara. Irimo intebe z'imisego y'ikigina ndetse hasi harapavomye.

Umukobwa yashyize akaboko ku kabati gafite udupande tubiri, aho washyiramo ibikoresho bigiye bitandukanye, nk'amakayi hasi inkweto ku rundi ruhande ugashyiramo imyenda, ukaba washyiramo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Ahantu heza watemberera n'umukunzi wawe umuryango wawe, cyangwa se inshuti zawe, mugasangira icyo mwifuza hari intebe nyinshi ndetse n'amezaza aho abantu bagenda bicarana uko bagiye baza hari amavazi y'amawuwa, amatara yaka neza, bifasha abahaje kuharuhukira.

Inyubako ya komvesheni senta, ni imwe mu nyubako muri iki gihugu cy'u Rwanda igezweho, aho bamukerarugendo ndetse n'abandi bantu bose batandukanye, bashobora kuyisura bakagiriramo ibihe byiza, aho ubonamo ibintu byose wifuza kandi ku gihe.

Ni ahantu hari intebe ebyiri n'imeza, ubona ko hicara abantu baje kuhatemberera. Aho baba bari kureba hakurya yabo, hari igiti gifite uturabo tw'umuhondo ndetse n'amazu menshi agaragara ko ari mu bucucike.

Inzu nziza ifite imiryango y'umukara n'ibirahuri by'umweru harimo amarido meza afite amabara rwose ashimishije hateretsemo, hateretsemo ameza ariho amawuwa ahumura neza k'uburyo aho wayashyize nta mpumuro mbi yahaboneka.

Inzu nziza isize amarangi y'umweru, irimo amatara abonesha neza, intebe nziza zifite n'imisego; wakwicaramo n'umuryango wawe mureba filime cyangwa umupira.

Sale nini ifite ibikoresho byose bihagije, mufite inama mwayikoreramo muri nk'abantu ijana. Harimo ameza ateretseho ibikombe, amakanya n'ibiyiko. Nawe uyishaka wahamagara ba nyirayo mukavugana.

Intebe nyinshi ziri hamwe ni umukara, aho ufite ibirori, inama cyangwa se ikindi kintu cyahuza abantu benshi, waza ukavugana na ba nyirazo ukazikodesha ku giciro gito.

Ni icyumba cyiza kirimo ibiryo bigiye bitandukanye aho utambuka ukajya wiyarurira ibyo wahisemo; iyo umaze kwiyarurira kandi unyura ku ruhande ugafata imbuto zigiye zitandukanye; biterwa n'izo ukunda harimo imineke, inanasi, amaronji n'izindi zitandukanye.

Abakobwa beza basokoje neza bambaye urugori n'imikenyero y'umweru n'ubururu n'udusengeri tw'umutuku, bari gufata ifoto aho bagira bati unguka fayinanse.

Umugabo ufite ibyishimo byinshi wambaye amarinete yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi. Afite kontaki mu ntoki yegamye ku modoka iri mu mabara meza, umukara ndetse n'icyatsi. Yegamye ku cyapa kivuga ngo kuyibona ni mu kanya nk'ako guhumbya.

Umukobwa mwiza aragaragaza ko wakwiyubaka na i&M banki, baguha agera kuri mirongo irindwi ku ijana by'agaciro k'inzu yawe, nawe ni ahawe kubagana uhereye uyu munsi.

Isoko riciriritse ritubakiye ariko ririmo ibicuruzwa byose. Hari ibitoki, amateke, karoti, ibirayi, amaronji, ndetse n'ibindi bintu byose bigiye bitandukanye.

Ni isoko ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye, abagore baricaye bategereje abakiriya. Bafite ibicuruzwa bitandukanye, birimo ibitunguru, inyanya, intoryi, amashu, n'ibindi bitandukanye.

Ni inzu ishaje idasa neza hari ibikoresho bya gakondo nk'ibisabo, ingoma, ibiseke, ibirago ndetse n'ibindi bige bitandukanye, imbere harimo umudamu wambaye umupira w'umutuku bigaragara ko ariwe ucuruzi bibintu.

Isoko ririmo imyenda itandukanye ndetse n'abatayeri bafite imashini bari kudoda. Hari umuhungu wicaye ku ntebe yasheze wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umweru.

Isoko riciriritse ririmo abantu benshi basize imyenda hasi, bari gucuruza. Higanjemo imitaka: iy'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu. Hirya hari amazu asize irange ry'icyatsi.

Isoko ry'ibiribwa, ririmo abantu batandukanye ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye. pavuro, amashu, inyanya, insenda, imiteja, karoti, ibitunguru ubona ko uje kuhahahira rwose nta kintu wahaburira.

Isoko ricururizwamo imyenda yiganjemo imipira y'imbeho, aho mu gihe cy'imvura wabagana bakakwambika. Hari umusore wambaye inkweto zifunguye n'ipantaro y'ikoboyi.

Isoko ryubakishije amabati ridafite ibikuta, ririmo abantu bagiye batandukanye, abagore bahetse abana, abana batoya ubona ko bataye ishuri, udutebo turimo inyanya ndetse n'intoryi.

Abagore babiri bahuriye mu isoko; umwe yambaye ikanzu y'igitenge, undi yambaye agapira k'umukara n'isaha; inyuma yabo hari imboga, inyanya, ibitunguru n'ibindi bintu bitandukanye.

Isoko ririmo imbuto zitandukanye, hicayemo abagore bari gucuruza izo mbuto ziririmo bwoko bw'imineke, inanasi, amaronji, amapapayi ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye waza ugahahira umuryango wawe mukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi bahagaze mu mbuga ubona ko ari benshi cyane rwose. Iruhande rwabo hari amazu meza ya etage ari mu mabara meza ya oranje n'umweru, hari n'igipangu gifite irangi ry'umweru.

Mu isoko ry'ibintu bitandukanye, harimo abantu barimo baratambagiramo, ubona ko bafite ibyo barimo harahaha. Hari inkweto z'ubwoko bwose ndetse hari umuhungu wambaye umupira wa pinki, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto zifunze.

Ni mu isoko ricururizwamo imitako itandukanye, hari ingoma, imikeka, imyuko ndetse n'ibindi. Si byiza ko waba mu nzu idatatse kandi bidahenda.

Abagabo babiri bafite akanyamuneza mu maso bambaye imipira y'imihondo, bari gusuhuzanya inyuma yabo hari abaturage benshi babitegereza nabo bishimye rwose nawe wakoresha emutiyeni ukanda akanyenyeri ijana na mirongo ine urwego na akanyenyeri mirongo itatu na kane gatanu urwego.

umu aje wa emutiyeni yicaye mu mutaka w'umuhondo, yambaye n'ijire y'umuhondo, ndetse hari n'agasanduku k'umuhondo. Afite telefoni mu ntoki akagira n'indi ari guhereza umuntu waje amugana. Ni byiza gukorana na emutiyeni kuko yizewe.

Aho emutiyeni ikorera hari abantu benshi ndetse hagaragazwa n'ibara ry'umuhondo, hari ahanditse ngo gura felo ku ijana ku giciro kiri hasi bidasanzwe maze uryoherwe na serivisi za emutiyeni.

Umugabo wifashe mu mayunguyungu, yambaye ishati y'umweru, n'ipantaro y'umukara, n'umukandara w'umukara. Mu kazu ka MTN kamwegereye gafite amabara y'umuhondo, hicayemo umukobwa uri kumuganiriza.

Umukobwa ufite ibyishimo byinshi yambaye ingofero y'ubururu ndetse n'umuhondo yambaye umupira wumuhondo afite na terefone mu ntoki, ari kumwe n'umudamu ubyibushye cyane ufite ibisuko yafungishije agashumi k'umutuku, wambaye agakote afite terefone mu ntoki.

Imodoka nziza ubona ko ihenze rwose, iruhande rwayo hari umugabo wambaye amarinete y'umukara, yambaye umupira w'umuhondo wanditseho MTN ndetse na moto imuparitse iruhande ifite amabara y'umuhondo, bigaragara ko ashobora kuba yayihawe mu bihembo bya MTN.

Abakobwa babiri bafite akanyamuneza mu maso, bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro y'umukara. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo; "Kora simu swapu ku buntu, uryoherwe na jiga bayiti imwe imara iminsi irindwi".

Umuntu ufite telefoni mu kiganza, ari kureba ku cyapa cya MTN, cyanditseho NGABONZIZA Jean Bosco, baramubwiye bati ugiye kwishyura amafaranga bibiri magana atanu kuri Jean Bosco, ikiguzi ni amafaranga zeru, emeza ushyiramo umubare w'ibanga.

Ni isoko rigari ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho harimo karoti, intoryi pavuro, amavuta, umuceri ndetse n'ibindi bitandukanye. Harimo kandi abantu bacuruza muri iri soko nabo b'ingeri zose.

Abakozi ba emutiyeni bicaye ku ntebe ari batatu undi umwe arahagaze, ni icyumba gitatse amabara y'umuhondo hagiye handitseho emutiyene, ku meza hahagaze umugore wambaye agashati n'ipantaro ya kaki.

Icyapa cy'umuhondo kimanitse ahantu k'urukuta, n'uburyo emutiyene yashyiriyeho abakiriya bayo kuzajya bishyura badakaswe amafaranga n'igiceri cy'atanu byorohereza abakiriya bayo kuyigana ndetse bakayigana bishimye.

Abagabo babiri umwe yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara ahagaze afashe igare naryo riseza amabara y'umuhondo, undi mugabo yambaye umupira w'umuhondo ndetse iruhande rwabo hari icyapa cy'umuhondo cyanditseho ngo kanda anyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe urwego ukurikiza amabwiriza.

Abasore babiri bari kubyina bishimye, inyuma yabo hari abakobwa bambaye imipira ya MTN ndetse n'icyapa cyanditseho izihirwe, hari bufure icuranga imiziki ikabasha kugera kure.

Icyapa kiriho umukecuru w'imvi z'ubuyenzi n'umwuzukuru we umufashe mu ijosi, kiragira kiti gura pake cyangwa bando utsinde muri emutiyeni ubu ushobora gutsindira ibihembo bigiye bitandukanye.

Kuri emutieni ubu byaroroshye aho wishyura na momopeyi ukanze kanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akayenyeri rimwe akayenyeri zero kane gatatu gatandatu gatandatu cyenda urwego ugakurikiza amabwiriza.

Akazu k'amabara y'umuhondo ka MTN, kanditseho mobayilo mani, izi rodi. Harimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira urimo uturongo tw'umukara n'umweru.

Icyapa kinini cya MTN kiri mu ibara ry'umuhondo gihagazeho umugore wambaye ikanzu y'igitenge ndetse n'isaha, hari imodoka ndetse na moto biparitse iruhande rwacyo.

Umugabo wambaye agashati keza, agapantaro k'umukara n'inkweto zifunguye. Ahagaze mfite ibyo arimo aritegereza. Ahagaze ku mayesikariye, iruhande rwe hari moto ifite igikarito ubona ko harimo ibiryo.

Igipangu gifite inzu iriho inkingi, haparitsemo abamotari batandatu, aho buri wese yicaye kuri moto ye n'ikibogisi inyuma kirimo ibintu, biteguye guhaguruka bakagenda.

Isoko ricuruza ibiribwa birimo inyanya amavuta ibijumba amashu, imineke, inanasi, n'ibindi bitandukanye, aho ubandikira kuri watsapu yabo bakabikugezaho wibereye mu rugo.

Umumotari wambaye ipantaro y'umukara, ufite igikasike cy'ubururu, ahetse ikintu kirimo ibikoresho bitandukanye, handitseho ngo gura ibikoresho by'isuku n'ubuzima, ukanda akanyenyeri icyenda, rimwe, rimwe, urwego.

Umukobwa ufite ibisuko by'umukara, amaherena, wambaye umupira w'icyatsi wanditseho vuba vuba, afite akanyamuneza ari gupfundura ikibogisi kirimo ibintu bitagaragara.

Icyapa kiriho amabara y'icyatsi aho bakuzanira ibiryo aho waba uri hose bakabigusangisha mu rugo harimo: imineke, amashu, karoti, inyanya, tungurusumu, n'ibindi bitandukanye.

Umusore mwiza yicaye kuri moto, yambaye umupira w'icyatsi, ipantaro y'umukara n'inkweto nziza zirimo n'amasogisi, ahetse igikarito inyuma kiriho umuntu uri kwiruka, iruhande rwe kandi hakikijwe n'ibiti bifite amabara meza rwose.

Abagore bagiye batandukanye, bahagaze ahantu hamwe abandi baricaye, bambaye ibikanzu by'umukara n'utuntu mu mutwe ndetse bameze nk'aho rwose bafite ibyo bahungiyeho. Iruhande rwabo hari udukarito twinshi turimo ibitoki ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Inzu nziza irimo irangi ry'umweru, amakaro y'umweru n'inzugi z'umukara irimo umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, ipantaro y'umukara yambaje umukandara n'inkweto z'umukara, yiyogoshesheje neza wari gutanga ikaze muriyi nzu nziza.

I Kanombe mu Mujyi wa Kigali hari inzu nziza, ikodeshwa amafaranga miliyoni mirongo icyenda n'eshanu, ni inzu ifite amarangi y'umweru ndetse n'itara hanze, ifite kandi parikingi yajyamo imodoka eshatu.

Abagabo babiri bahagaze ku gipangu, umugabo umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi yatebeje, undi mugabo yambaye ishati y'umukara, agapfukamunwa k'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, bari kwitegereza hakurya yabo ubona ko bibashimishije.

Mu mujyi wa Kigali i kanombe ufite miriyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amanyarwanda wakwigurira inzu muri uyu mujyi wa Kigali, iparitsemo imodoka nziza y'umutuku, inzu nziza isize amarangi y'umweru ndetse n'andi mabarage atandukanye.

Umugabo uhagaze wambaye ijire irimo amabara y'icyatsi, umukara ndetse n'umweru n'ipantaro y'umukara, ahagaze mu muhanda w'igitaka. Haruguru ye hari umurima udahinzemo ikintu ndetse no hepfo ni uko. Hakurya hari amazu atuye mu bucucike.

Igitanda kiza gishashe neza gishasheho amashoka y'umweru kiri mu cyumba, nacyo kiza kiriho amarangi yumweru, amarido y'umweru ndetse na kaki, ni icyumba ubona ko ukiryamyemo wabyuka umeze neza, abahanga babivuze ukuri ko iyo usinziriye neza utekereza neza.

Inzu nziza iherereye Kimironko ikodeshwa ibihumbi magana ane, ifite ibyumba bitatu. Ni inzu watuzamo umuryango wawe mukagira ubuzima bwiza, hehe no guhora mwimuka.

Inzu nziza igurishwa mu mujyi wa Kigali i kanombe. Aho wayibona ku giciro cya miliyoni mirongo inani n'eshanu z'Amanyarwanda. Iri ku buso bungana na magana atatu na mirongo ine.

Niba warabuze inzu yo gukodesha hano mu mujyi wa Kigali Kanombe tugufitiye inzu yo gukodesha ifite ibyumba bitatu ,ubwogero bubiri izakodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi ni amafaranga make ugereranyije nuko iyi nzu ari nziza ,ifite inzugi zifite irangi ry'icyatsi amapavi hanze kandi iri mu bwoko bwa konoshi.

I Remera mu Mujyi wa Kigali ahegereye sitade Amahoro, hari inzu yo gukodesha ifite icyumba kimwe, ni nziza ku buryo uyituyemo uba ufite ibyishimo n'umuryango wawe.

Kibagabaga mu Karere ka Gasabo, hari inzu itararangira neza ariko yo gukodeshwa, ifite ibyumba bibiri, ubwogero bumwe, ifite inzugi nziza, hari amakaro ndetse rwose urabona ko ari inzu uyikodesheje utaba uhezwe.

I Gikondo mu mujyi wa Kigali, hari inzu ikodeshwa ifite ibyumba bibiri, ubwogero bumwe, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri na mirongo itanu ku kwezi, ni inzu nziza ifite inzugi n'amadirishya biri mu ibara rya kaki, ubona ko uyikodesheje rwose nta gihembo cyaba kirimo.

I Kanombe mu mujyi wa Kigali hari inzu nziza ya kadasiteri, ifite amadirishya meza, ifite ibirahure by'umweru, ifite ibara rya kacyi. Imbuga yayo irimo amapave kandi ushobora kuhaparika imodoka yawe ndetse n'abashyitsi bagusuye.

Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, hari inzu yamaze kuzura, ikodeshwa ibihumbi bitatu by'idolari ku kwezi. Ni nziza ku buryo utaba uhenzwe uramutse uhisemo kuyikodesha.

Inzu nziza iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe, irakodeshwa ibihumbi magana ane y'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi, ifite ibyumba bitandatu ndetse n'ubwogero butatu.

Icyapa cyanditseho ngo hano tubafitiye serivisi zikurikira: tugurisha, tukanaranga imodoka, amazu, ibibanza n'ibindi bikoresho bitandukanye, dukora n'ibijyanye n'ubwubatsi construction.

Inzu nziza ifite ibikoresho bigiye bitandukanye, ifite icyumba kimwe, ubwogero bumwe, iri mu Mujyi wa Kigali Kacyiru, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri, ubu ushobora kuyibona ukaba nawe watuzamo umuryango wawe.

Inzu nziza iri mu bwoko bwa kadasiteri isize amarange y'umweru ndetse n'ubururu, hanze hari amapave, iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe, ifite ibyumba bine, ubwogero butatu ikaba ikodeshwa.

Inzu nziza iherereye mu mujyi wa Kigali, Kimironko, ifite ibyumba bibiri, ubwogero bubiri, irakodeshwa amafaranga y'Urwanda ibihumbi magana atatu na mirongo itanu ku kwezi, ni inzu nziza watuzamo umuryango wawe mugakomeza kugira ubuzima bwiza.

Inzu nziza igeretse inshuro ebyiri ndetse iri mu bwoko bwa kadasiteri ifite ubusitani bwiza bw'ibiti by'imikindo, n'izindi ndabo zitandukanye, iruhande rwayo mu mbuga yayo hashashe amapave bigaragara ko nta hantu wahurira n'umwanda rwose.

Mu murenge wa Kimironko kwa Sekimondo hari inzu ikodeshwa nziza cyane, ifite ubwogero butatu, buri cyumba ni ibihumbi magana atatu. Ni inzu wowe n'umuryango wawe mwaturamo mukanezerwa rwose.

Mu Murenge wa Gisozi hari inzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi ijana mirongo itanu ku kwezi, ni inzu nziza ifite ubwogero bwiza, icyumba kimwe ndetse rwose urabona ko abantu bagomba kuza kuyikodesha.

Inzu nziza iherereye mu mujyi wa Kigali Kicukiro aho ifite ibyumba bine, ubwogero bune, ikodeshwa ibihumbi magana arindwi ku kwezi. Ni inzu ifite amarange y'umweru, icyatsi, move ndetse iruhande rwayo hari amapave.

Inzu ngari kandi nziza, mu mujyi wa Kigali, Kanombe ubu iraboneka ku mafaranga makeya, aho ku bihumbi magana atatu mirongo itanu ukwezi wabona inzu nziza ubanamo n'umuryango wawe, mukabaho mwishimye mudakodesha.

Inzu nziza ifite ibirahure bigeze hasi, ipavomye hanze ndetse hari n'amapave, ifite igipangu hariho urwego, irakodeshwa Kimironko, ifite ibitanda bitatu n'ubwogero butatu, ikodeshwa ibihumbi magana ane ku kwezi.

Abafundi ndetse n'abayede bari kuzamura inzu y'amatafari, bayigejeje muri kimwe cya kabiri. Ariko ntibarashyiraho amabati, hakurya hari izindi nzu zo zuzuye ziriho n'amabati.

Isoko rya kijyambere ririmo ibicuruzwa bijye bitandukanye nka karoti, tungurusumu, intoryi, puwavuro, inyanya, kurujeti ndetse n'ibindi byo waba wifuza byose hano babiguha ku gihe.

Umusore yicaye mu cyumba gicuruza imyenda y'abadamu harimo amakanzu ari mu bwoko bugiye butandukanye nawe wakwigira kuri uyu musore ukihangira umurimo ucuruza ibintu bigiye bitandukanye ukabasha kwiteza imbere.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'umukara n'inkweto zifunze afite akantu mu ntoki ari kugenda akururora ashyiramo ibyo ari guhaha muri supamaketi harimo ibintu bigiye bitandukanye aho wazakigurira nawe ugashimisha umuryango wawe.

Umusore ukiri mutoya yambaye agapira k'umweru ipantaro y'umukara n'ingofero y'umutuku ahetse igikapu mu mugongo ari ahantu hateraniye imyenda igiye itandukanye imipira, amapantaro ndetse hari n'inkweto iruhande rwe ari kwitegereza umupira w'umweru ngo arebe ko yawugura.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye; inkweto, imyenda, ingofero, ibikapu ndetse n'ibindi byinshi, hahagazemo abantu yaba abagurisha ndetse n'abagura.

Icyumba kirimo amapaki y'imigati menshi, ku buryo ushaka kurangura wahagana. Nawe wakwihangira bizinesi ugacuruza imigati, ibyayi, kuko bikundwa n'abantu benshi.

Ni etaje ifite impande enye aho zose zirimo imiryango icuruza imyenda ni ahawe kugira ngo ubagane wihahire kugira ngo utazajya unyura mu nzira wambaye nabi.

Abaturage bicaye ahatangirwa serivisi, higanjemo abagore bifubitse ibitambaro abandi bifubitse ibitenge, buri wese afite impapuro mu ntoki ariko umugore umwe afite ishakoshi mu ntoki, urabona ko badafite umuntu uri kubafasha.

Umugabo wambaye umupira w'umweru wanditseho RSSB, afite indangururamajwi mu ntoki. Ari gusobanura ibijyanye n'ubwishingizi bwa mituweli, aho utagomba kurembera mu rugo.

Inzu ya etaje igeretse inshuro nyinshi ifite amarangi meza n'ibirahuri byiza, aho ara esi esi bi ikorera hanze hari indabyo ziri mu mabara agiye atandukanye, zuhirwa buri munsi kuko zitoshye.

Umwana mutoya ufite akamwenyu mu maso wambaye agapira gatoya, afite n'agapupe mu ntoki, ari ku cyapa kigaragaza ubwishingizi bwa araesiesibi muri ejo heza aho wakwizigamira ukazasaza neza.

Umugabo w'igikwerere uhagaze imbere y'abantu, afite mikoro mu ntoki ze, yambaye ikote rya kositime, karuvati, ishati y'umweru, ipantaro ya kake ndetse yiyogoshesheje neza. Ari gusobanurira abantu ibijyanye n'ubwishingizi bwa Ara esesibi.

Umuntu mu kiganza cye afite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza yo mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, iruhande rwe hari inzu ifite amarangi y'umweru, imbere harimo intebe ndetse isima yaho ubona ko ishaje.

Abagore bane bicaye ku ntebe itegererezweho kugira ngo binjire ku muryango, umugore umwe yambaye umupira w'icyatsi yiteze n'igitenge kirimo amabara y'umuhondo.

Abagore bane biteze ibitambaro, bambaye amashati ndetse n'ibitenge, babiri muri bo bafite abana babiri bakiri batoya. Bose bafashe amakarita mu ntoki.

m'icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye, abagabo ndetse n'abagore hari impapuro ziri ku meza buri wese afite urupapuro ari gusoma hari umugore wambaye umupira wanditseho arasesibi bigaragara ko ahugiye mu gusoma ibintu biri ku rupapuro.

Abasaza babiri b'imvi z'uruyenzi bafatanye mu biganza umwe yambaye impeta ndetse n'isaha baraganira ku bwishingizi bwa ara esisibi, bafite ibyishimo kuko ubu bwishingizi bwabafashije kuva bakiri bato kugera uyu munsi.

Abanyarwanda twese dushishikarizwa gutanga mituweri ubwisungane mu kwivuza, aho ubu ikigereranyo cy'abantu batanga mituweri cyiyongereye, aho rwose ubu nta munyarwanda ukirwarira mu rugo twese duharanira gutanga mituweri.

Icyapa kiriho abagore babiri b'inzobe, bambaye imyenda y'umukara, bafite icyapa mu ntoki kivuga ngo "Umunyamuryango ku isonga". Mu bwishingizi bwa arayesesibi, umunyamuryango waho aba ari umwami.

Umusaza wambaye akagofero, amarinete, ikote, ishati, karuvati, n'igikapu k'urutugu ari ku cyapa kivuga ngo uzakomeza kurimba no mu gihe cya pansiyo, n'ikigo cya ejo heza aho kigufasha kwizigamira ukazabaho neza mugihe kizaza.

Umugore ubyibushye cyane wambaye ikanzu itamufashe yasokoresheje imisatsi ye yambaye n'amaherena, arimo araterura agafuka k'umuceri ubona kamunaniye rwose, iruhande rwe hari ibindi bintu bitandukanye ushobora kuba wahaha.

Supamaketi irimo ibintu bigiye bitandukanye, aho wasangamo, amaji y'ubwoko bwose amabisiwi y'ubwoko bwose, imigati amandazi yahurute n'ibindi bijye bitandukanye, umuntu afite agacupa kamwe mu ntoki arimo arerekana uko ji zabo ziba zimeze.

Umukobwa mwiza wambaye agapira k'umweru, ikote ry'ikoboyi, ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, afite ibisuko byiza, afite na telefone mu ntoki. Acigatiye akantu, bigaragara ko ari gusomaho ibintu, ariko adasobanukiwe.

Ni muri supamaketi aho bafite ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'imigati, amabombo, amabiswi, amaji y'ubwoko bwose, waza ugahahira umuryango wawe bakagira akanyamuneza.

Icyumba gikeye kirimo amabara y'umweru kirimo imbuto zigiye zitandukanye, imineke, inanasi ndetse n'izindi, hari kandi ibishyimbo by'amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'umweru.

Ni supamaketi nini cyane aho umuntu uyikoramo ariwe ugutembereza kugira ngo umenye aho urasanga ibintu, harimo amajwi y'ubwoko butandukanye, amayawurute, amabiswi, imigati n'ibindi bigiye bitandukanye, harasa neza harakeyeye harimo amapave ubona ko bishimishije.

Iduka ririmo ibinyobwa by'amoko yose biri mu mabara agiye atandukanye, ni byiza gufata ikintu cyo kunywa ariko nturenze urugero kuko byakwangiriza ubuzima bikakumarira n'amafaranga.

Alimantasiyo ngari irimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo abantu bane, abagabo batatu n'umugore umwe, umugore umwe yambaye ikanzu afite udufuka mu ntoki ari kugenda apakira mu kantu yazanye ko kugutwaramo.